Udukubo tubiri, akamakasi amakaramu y'ibiti yo gushushanyisha, ubururu umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, amakayi, byifashishwa n'abanyeshuri mu gushushanya no kwandika ibintu bitandukanye.

Ahantu hashije neza h'igitaka, ibiti bishinze bitatu bitatu bifashe ahantu hamwe ndetse amazu abiri ateganye ari kugaragara neza, yubakishije amatafari adateye umucanga, afite inkuta z'umuhondo.

Ibyicungo byubatse neza, biri kugaragara neza, bifite ibara ry'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, abantu bari kwicunga, umwana uri gukurura akaguru k'umupapa we, barishimye cyane, barizihiwe.

Abanyeshuri batatu bahagaze ku murongo, barambuye ibiganza, imbere yabo uruzitiro ruzitije ibiti bishyize, hino hari inzu nziza zisakaje amabati y'ubururu, ziri kugaragara neza zifite ibara ry'umuhondo.

Abagore babiri bicaye, imbere yabo hahagaze umwana, amazu yubatse neza afite amabati y'ubururu ndetse n'abantu batatu bahagaze, hagati yabo hariho uwambaye ikanzu ndetse n'ikigofero bigaragaza uwashoje amashuri.

Ibitabo bitondetse ku murongo bifite amabara atandukanye, icyatsi, umuhondo, ubururu, byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no gushushanya imikoro baba bahawe n'abarimu babo.

Amashuri yubatse mu buryo bwiza atambitse ari kugaragara neza asakaje amabati y'umweru, ndetse hagati yayo hagiye hateyemo ibiti byiza byakuze by'inganzamarumbu biri kugaragara neza.

Umugabo n'umugore, umugore yambaye ikanzu y'umukara umugabo yambaye ikositimu ndetse nishati y'ubururu, afite uruhara, bose bari guhereza umwana wabo w'umunyeshuri wambaye impuzankano y'ishati y'umweru n'umupira w'icyatsi, bari kumuha amakaye kugira ngo ajye kwiga.

Abanyeshuri babiri, umusore n'umukobwa bambaye impuzankano y'umweru barimo guseka, barishimye cyane, bafite umusatsi mukeya, mu kiganza cyabo bafashe igipapuro, barimo kwifotoza, hirya yabo hari icyapa kiriho amabara atandukanye, icyatsi n'umuhondo.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye impuzankano y'umweru hejuru, hasi umukara, imbere yabo hari ikibaho gifite ibara ry'umukara, kiri ku nzu ifite ibara ry'umuhondo, barishimye, barizihiwe barimo kuganira ndetse no gukina.

Ahantu h'umukara hatari kugaragara neza umugabo ufite umusatsi muke, yambaye amarinete afite n'ubwanwa buke, yambaye ikoti arimo kureba imbere arakaye, ibyo ari kureba arabitumbiriye cyane.